Umwana w'umuhungu wambaye agasengeri k'umukara n'akabutura k'umuhondo uri koga intoki mu kadobo, imbere ye hari akandi kana kari munsi yo mu myaka kari kumusukira amazi gafite ijagi mu ntoki y'ubururu.

Umukobwa na nyina bari guseka bishimye umukobwa imbere hateretse ikirahure umudamu uri gukata imbonda hirya ye hari inyanya.

Umukecuru n'umukambwe, umukecuru yambaye ugapira k'umutuku, umukambwe yambaye agapira k'ubururu, umukambwe ari kumuha imiti, umukecuru akamusomera amabwiriza.

Umukambwe n'umukecuru, bicaye mu ruganiriro bari gukina, imikino, bari guseka, ubona ko bishimye.

Umusore uryamye ku gatanda kagenewe abarwayi, hari umuganga uri kumukingira w'umudamu wambaye itaburiya y'umweru.

Abaganga bakorera ikigo cy'ubuvuzi bambaye ubupfumunwa bw'ubururu, imipira y'ubururu n'amapantaro y'ubururu, ababakobwa n'abadamu.

Icyumba cyo kwa muganga basuzumiramo umurwayi bakanamwitaho harimo agatanda k'abarwayi, ibyuma bisuzuma abarwayi, n'igishushanyo kimanitse inyuma hejuru y'umusego.

Inyubako basuzumiramo abarwayi batewe n'ibyorezo, harimo abaryamye ku dutanda twabugenewe n'abaganga bambaye imyenda yabugenewe bari kubitaho.

Akana kicaye hasi kari guseka k'agakobwa, impande yako hari nyina wako na we wicaye hasi ku bitenge, hariho matora munsi.

Umusore wambaye agapantaro k'umukara n'agapira uryamye hasi ari gukora siporo ngororamubiri.

Umugabo wari ufite inyota uri kunywa amazi. Afite agacupa k'ubururu yambaye agapira ahetse n'agakapu k'umuhondo.